Iri ni ivomo rusange rimwe bapompa. Abantu baje kuvoma amazi ni abantu bane harimo umwana uri kuvomesha akabido k'umuhondo n'akandi k'umweru ndetse uri kumupompera yambaye ingofero ya kaki n'umupira w'umweru. Akenyeye umupira w'ubururu.

Ahari ni mucyumba cy'ama cyabantu bakurikiye inama, ibumoso hicaye umudamu umama w'igitsina gore wambaye icyapa ndanga mu gatuza, hagati yabo n'undi mugabo hari imeza y'umweru iriho amacupa abiri y'amazi inyuma ye hari umugabo w'umwera.

Aha hari abantu batanu: harimo igitsina gabo kimwe, abandi bane ni igitsina gore, bambaye amabaji mu ijosi, bambaye amapantaro y'umukara, hejuru imipira y'ubururu, harimo umwe wazamuye ikiganza.

Iyi foto iragaragaraho abana batatu bambaye impuzankano y'ishuri bari ku ivomero rusange bakaraba intoki mu buryo bwo kwimakaza umuco w'isuku mbere yo kurya cyangwa uvuye mu bwiherero ugomba guca ku ku ivomero bakaraba imbere yaho hari robine eshatu.

Aha hari inyubako yubatse mu matafari ahiye iruhande rwaho hari umuntu w'umuganga yipfutse mu maso hose ndetse yambaye umwambaro w'umuhondo inyuma yambayemo uwo mweru inyuma agaragara nk'umwe yo gu ufasha umurwayi kumwitaho mu buryo bwo kumubwira ngo amufashe.

Iyi shusho iragaragaza umubyeyi wicaye wambaye umupira w'umweru, akikiye umwana na we uri mu kigo cy'imbonezamirire, hari umusore wambaye amarore ndetse uri gutamika umwana ibiryo.

Aha hari umubyeyi uhetse umwana mu gitenge ku mutwe we afiteho arasutse yambaye umupira ujya gusa icyatsi ndetse acyenyeye n'igitenge ari gukora isuku ku ivomero rusange.

Iyi shusho iratwereka umuganga w'igitsina gabo, wambaye umwenda w'umweru hejuru ndetse akaba yambaye n'uturindantoki tw'umweru. Mu kiganza cye afashe ikiganza cy'umuntu w'igitsina gore, ari kumufata amaraso. Imbere ye hahagaze undi muntu wambaye umwenda irimo umuhondo, wifashe mu mifuka.

Aha hari inyubako irihodarapo iry'igihugu gifite ibara ry'ubururu umuhondo n'icyatsi imbere kuri iyo nyubako hari bandelole icyapa ndanga cy'amabara y'icyatsi n'umweru ndetse iruhande rw'icyo cyapa ndanga hariho aba nk'abaforomokazi imbere yaho hari ikidari kirimo abantu benshi bahagaze hanze.

Ishusho iragaragaraho abantu batatu. Abagore babiri n'umugabo umwe wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara. Abadamu bateze igitambaro mu mutwe bombi bari guterura umufuka bawuhereza umugabo uri hejuru.

Iyi shusho ,iragaragaza umuntu wambaye ga z'ubururu .Ari muri bipimo byifashishwa gupima mu buryo bwihuse cyane kugirango umurwayi abe yahabwa ibisubizo byihuse.

Iyi shusho iragaragaza abantu bicaye mu busitani, bari mu nama. Harimo abagabo batatu. N'igitsina gore cy'abantu batandatu. Harimo uwambaye impuzangano iri mu ibara ry'icyatsi ,bari mu nama .Inyubako ifite ibara ry'ubururu. Hejuru y'iyo nyubako hariho imirasire. Imbere y'ayo haparitse ikinyabiziga.

Iyi shusho iragaragaza umubyeyi ukenyera igitenge wambaye umupira urimo amabara y'umweru ndetse ateze n' ingofero ari ku ivome rusange arimo aravoma amazi bigaragara ko ahantu hose abaturage bigerijwe amazi meza yaje ku ivoma rusange kuvoma amazi afite ijekani y'umuhondo.

Ishusho iragaragaza umuntu wazinze ukuboko kw'ibumoso bari kumukingira, umuganga yafatishije akaboko k'ibumoso ku kuboko kwe akandi k'indyo kambaye uturindantoki ndetse n'akandi kambaye uturindantoki, gafashe urushinge ak'iburyo niko gafashe urushinge, ak'ibumoso gafashe akaboko kugira ngo gakande kabone uko umuti winjira.

Iri ni ivomero rusange ryegerejwe abaturage, rizwi nkiryo bavomeraho bari gupompa, ruguru hari amashusho agaragaza abantu batatu bari ku ipompo, ndetse hepfo hari umubyeyi uri kuvomesha indobo, yambaye ibirenge, afite igitambaro mu mutwe.

Haragaragara umugabo umwe wicaye wambaye umupira w'icyatsi n'umweru ndetse n'ingofero yabisiramu, imbere ye hari undi mugabo umwe wambaye ijiri uri kumwereka amashusho ndetse n'undi ku ruhande w'ishati y'umweru n'abana batanu bahagaze, inyuma y'umugabo wambaye ingofero, umupira w'umweru n'icyatsi.

Iyi shusho iragaragaraho abantu barindwi, harimo n'umwana umwe bari guha igitonyanga mu kanwa, abo bantu bose bambaye udupfukamunwa.

Iyi shusho iragaragaraho umubyeyi ufite umwana, imbere ye hari umuganga wambaye umwenda w'umweru, arimo aritegereza umwana mu maso amusuzuma, umubyeyi afashe mu gahanga k'umwana.

Iyi shusho hariho ikirango cy'ihuriro ry'ubuzima ku Isi, ndetse gifite n'igishushanyo hagati kizingiyeho inzoka, aya magambo yose yandikishijwe ubururu ku gipapuro cy'umweru.

Iyi shusho iragaragaza umwana uri kuri kano, wateze ibiganza bibiri byombi ari kunywa amazi. Hejuru yambaye agapira karimo amabara y'icyatsi, n'umweru n'ikabutura itukura ndetse n'inkweto zifunguye z'ubururu. Hasi yaho anywera hatetse ikivomesho kiri kumenekamo amazi avuye ku biganza bye yamenetse.

Ishusho iragaragaza abantu batanu bari ku ivomo rusange iburyo haragaragara umwana muto ahabandi ni igitsina gore harimo ufite indobo y'ubururu ufite igitambaro mu mutwe.

Iyi shusho iragaragaza abantu batatu b'igitsina gore harimo umwe bari gukingira bose bambaye, udupfukamunwa uwo bakingira afite amarore mu gituza akaboko ke k'iburyo kariho isaha, yambaye umwenda w'umweru hejuru hasi ni umukara, uri kumukingira yambaye isaha kukuboko kw'ibumoso.

Ishusho iragaragaraho abantu batatu harimo igitsina gore cy'abantu babiri. Barimo baraterura umufuka bahereza umugabo uhagaze hejuru ku mufuka wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu. Iyi shusho igaragaza icyo bita uburinganire no gushimangira ko umugore ashoboye.

Iyi shusho iragaragaza abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse harimo n'umwe ufite uruhu rwera wambaye umutuku. Bose bari mu cyumba imbere yaho bita mu rusika, bose ibiganza byabo n'igikumwe kiri imbere nk'abahuje umugambi wo guteza ubuvuzi imbere.

Iyi shusho iragaragaza umuganga wambaye itaburiya y'icyatsi mu mutwe atezemo akanozasuku gafite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu yambaye agapfukamunwa imbere ye hari ibyuma by'ikoranabuhanga.

Aha ni mu cyumba cy'inama, aho bakurikiye inama ndetse ku meza bicayeho y'uruziga, imbere yabo hari uducupa turimo amazi. Bamwe bafite za mudasobwa imbere yabo.

Abantu b'igitsina gore bane n'umugabo umwe bicaye imbere yabo umugabo yazinze ipantaro ukuguru kw'iburyo ndetse abadamu harimo babiri bagaragara ko bari kwandika bafite impapuro mu ntoki uw'iburyo mu isura ye biragaragara ko yishimye cyane inyuma yabo ari inkoki insina.

Hano hari inyubako y'umweru, hari n'ubusitani bushinzemo icyapa cyanditseho Clinic. Hejuru iruhande rwaho hari ahantu handitse welcome bivuga ngo ikaze. Ubusitani bukikijwe na borudire zisize ibara ry'umweru n'umukara.

Iyi shusho iragaragaraho umugabo uri kwa muganga ndetse uri gufashwa n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, uwo muganga yambaye uturindantoki tw'umweru.

Iyi shusho iratugaragariza umuntu w'igitsina gore wagaragaje amenyo y'uko yishimye, ndetse n'intoki ebyiri rumwe ruri iburyo urundi ruri ib'umoso.

Iyi shusho iragaragaraho umuntu w'igitsina gore, ateze igitambaro cy'umweru, yambaye n'umwenda hejuru uciye amaboko. Afite uburoso bumeze nk'ubwo gusukura amenyo, arimo gusukura mu kanwa ndetse arimo aranaseka ubona ko yishimye cyane.

Iyi shusho iragaragaraho abana b'abakobwa babiri n'inyuma hariho undi ugaragara igice kimwe cy'iburyo, afite uburoso bw'ubururu. Uw'imbere afite uburoso bw'umuhondo ndetse bose bari koza amenyo, mu rwego rwo kurwanya indwara zangiza amenyo.

Iyi shusho iragaragaraho umuntu w'igitsina gabo, afite ikijyanye n'umwenda w'isuku ku rutugu, amenyo ye yashyizemo urudodo ndetse urudodo arufatishije intoki zombi ikiganza cy'iburyo n'icy'ibumoso yabumbatanyije amenyo urudodo arushyira hagati y'amenyo.

Iyi shusho itwereka abana bamanitse bimwe mu bikoresho by'isuku, birimo uburoso na corogati. Ndetse ubona ko byifashishwa mu kugirango gusukura mu kanwa kugira ngo bagire impumuro nziza. Harimo umuntu ugaragara nk'ukuze, wambaye ijipo y'umukara, afite ikaramu mu ntoki, n'ishati y'amabara. Abana bose barishimye barimo baraseka.

Iyi shusho iragaragaza abana b'abanyeshuri bambaye impuzano, bafite udukombe mu ntoki ndetse bafite n'uburoso busukura amenyo, bigaragara ko bari kwigishwa uburyo barwanya indwara zo mu kanwa basukura mu kanwa bifashishije uburoso n'amazi meza.

Iyi shusho iragaragara, umuntu waje mu isuzumiro ari kwerekana amenyo aho ari kureba umuganga mu maso, umuganga yambaye ga z'ubururu ndetse n'imyenda y'umweru.

Aha hari intebe zo kwa muganga, hejuru yazo hari mudasobwa. Izo ntebe ni ebyiri, munsi yazo hari imigozi, imbere yazo hari agacupa k'ubururu n'umweru. Kagaragara nkaho karimo serumu.

Iyi shusho iragaragaza umuganga wambaye akanozasuku mu mutwe ndetse n'agapfukamunwa, yambaye umwenda w'ubururu n'uturindantoki dusa ubururu, ari kuvura umugabo mu gice cyo mu kanwa, umugabo wasamye ari kumuvura igice kerekeye ku menyo.

Iyi shusho iragaragaraho abaganga babiri, bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'amatabuririya y'umweru. Imbere yabo hari umurwayi wambaye agapfukamunwa k'umutuku gafite utugozi tw'umukara, bari kumusuzuma bareba mu kanwa.

Iyi shusho iragaragaza umuganga wicaye ufite icyuma mu ijosi k'ibyumviro, imbere ye hicaye umuntu ugeze mu za bukuru ari gufata ibipimo, uwo muganga yambaye amanete ndetse n'agapfukamunwa n'uturindantoki.

Ishusho iragaragaza umubyeyi urikuboha yicaye ndetse imbere ye hari abantu batanu bakuru ndetse hari n'abana batatu umwe baramuteruye abandi babiri bicaye hasi biragaragara ko ibyo ari gukora bano bantu bose babirangariye ndetse banabitangariye dukomere ku muco wacu wo kuboha.

Iyi shusho iragaragaraho abagabo babiri bari muri siporo. Bafite amacupa y'amazi mu ntoki zabo. Imbere yabo hari ikusanyirizo bashyiramo imyanda mu rwego rwo kurinda ibidukikije. Bari kwirukanka mu maso yabo ubarebye barishimye cyane.

Iyi shusho iragaragaza umubyeyi wambaye umwenda hejuru uciye amaboko n'ikanzu y'umukara, imbere ye hari umugabo w'igitsina gabo uri kuri terefone, imbere y'uwo umubyeyi hagaragara umukecuru wambaye, hejuru umwambaro w'icyatsi ndetse ufite n'umusatsi w'umweru, bari mu ihema ry'umweru.

Ishusho iragaragaraho abantu babiri umugabo ndetse n'umugore bari gufata amafunguro, imbere yabo umudamu yateretse ikirahure yambaye amaherena.

Iyi shusho iragaragaza umuntu w'igitsina gore uri gukora imyitozo ngororamubiri ari kuyikora yicaye, akaguru kamwe k'ibumoso yakicariye ak'iburyo yakarambuye, yambaye umwenda hasi w'umukara hejuru yambaye umwenda uciye amaboko w'ubururu, ibiganza bye byose bifashe ku kuguru kw'iburyo ku nkweto y'umweru.

Iyi shusho iragaragaza umugabo wambaye agapfukamunwa wicaye kuntebe yambaye ishati itukura ndetse n'agapfuka munwa. Undi muntu uri imbere ye ni igitsinagore arimo aramufungira ibipesu yafunze imisatsi hejuru, ya imyenda y'icyatsi ndetse nawe yambaye agapfukamunwa.

Iyi shusho iriho abantu babiri, umwe ari ku kuma kabugenewe gafasha umuntu ufite ubumuga bw’amaguru kugira ngo abashe kugenda, ari kumwe n'umukobwa umufashe ku rutugu ku kaboko k'imoso, yambaye ikote rya kake mo imbere mu ishati y'umweru.

Iyi shusho iragaragaza umuganga wambaye umwenda w'ubururu. Iruhande rwe hari Umurwayi wicaye ku meza, bigaragara ko akuzemo cyane, ndetse mu kiganza cy'uwo muganga afitemo ikinini agiye kumuha kugira ngo akinyweshe amazi ari mu kirahure. Imbere y'uwo mubyeyi hari indi miti iri mu gakarito.

Aha hari abantu babiri b'igitsina gore, umwe arahagaze asutse inweri, yambaye umwenda w'ubururu ruguru urimo umweru w'umweru n'isaha, bigaragara ko bahuje urugwiro.

Iyi ni ifoto igaragaraho abantu babiri, hariho umwe w'igitsina gore ndetse n'umuntu w'umugabo wambaye amarinete ugeze mu zabukuru, yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro, uwo musaza ikigaragara cyo ni uko uyu muntu uri kumufasha kugira ngo amukore ku gitanda abe yahagarara.

Iyi shusho iragaragaraho abagabo babiri umwe aricaye undi arahagaze, bombi bambaye amakote y'umukara, mo imbere amashati y'umukara ndetse umwe uhagaze hejuru yifashe mu mufuka, uwo hasi ahuje ibiganza byombi.

Haragaragara ko hazaba umunsi mpuzamahanga w'abagore wo kurwanya kanseri, mu kwezi kwa Gatanu Tariki zirindwiri kugeza ku Itariki umunani Ibihumbi Bibiri Makumyabiri na Gatanu, haragaragara inyubako eshatu ndende ziri ku ishusho ndetse n'ubwato hagati mu nyanja.

Iyi shusho iragaragazaho abaganga bane, harimo uw'igitsina gabo batatu, ndetse n'umwe w'igitsina gore wambaye amarinete, bose bambaye udupfukamunwa.

Hari umuntu w'igitsinagore wishimye cyane. Imisatsi ye iratse. Yambaye n'imirimbo ku matwi. Ikigaragara mumaso ye arishimye cyane, arimo arareba imbere ye nk'umuntu ufite icyo kureba cyamushimishije.

Iki ni cyumba k'inama, kicayemo abantu bagizwe n'igitsina gore gusa, Abari imbere harimo batatu iburyo bambaye imipira y'umukara, hino hari wambaye umupira w'icyatsi .Ndetse bigaragara ko bakurikiye ibiganiro mbwirwaruhame, ndetse bishimiye no kumenya ibyo bari kwigishwa. Hino hari ufite imashini iri imbere yiwe. Ku meza hari igitambaro cy'umweru n'icy'umutuku.

Iyi shusho iragaragaza urubyiruko ruri mu rugendoshuri. Bafite icyapa ndanga kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'iritukura . Mu mutuku handitsemo ngo : "Rubyiruko nimwe hazaza heza h'uru Rwanda. Irinde Virusi itera SIDA. Ipimishe uyu munsi." Bivuze ngo bari mu bukangurambaga bwo kurwanya Virusi itera SIDA.

Aha haragaragara umugabo wambaye ipantaro ya kaki n'ishati y'umweru, imbere ye hari abana bicaye bambaye iniforume impuzangano y'ishuri n'amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara.

Iyi ni inyubako ifite inkingi enye imbere ku rubaraza, zifitebibara ry'ubururu ndetse iyo nyubako ifite ibyapa ndanga imbere bitatu nyobora. Ikiri imbere mu rubaraza ni ubururu cyandikishijeho amagambo y'umweru, imbere mu rubaraza hateyemo intebe eshatu zitukura.

Iri ni ivuriro ry'akarere ka Nyarugenge, amarembo yaryo ateyeemo igiti cy'icyatsi ndetse imbere hari n'ubusitani, imbere ahantse amagambo ari mu ibara ry'ubururu inyubako isa umweru.

Iyi n'inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo ibyuma bitandukanyije baterura iyo bari mu myitozo, hejuru hayo hasize irange ry'umweru ibyuma biteretse ku gitambaro cy'umutuku.

Iyi ni inyubako, ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, isize ibara ry'umweru, imbere yayo hari ubusitani. Ndetse mu mbuga yayo, hashashe amabuye aconze neza.

Iyi nyubako iragaragaramo intebe z'umukara ndetse n'iy'urubaho iri imbere. Imbere hari umuntu bari kwakira ufite ubumuga wicaye mu kagare kifashishwa nk'insimburangingo, abandi bari ku murongo barategereje kubakira. Imbere hari imeza iriho igitambaro cy'umweru ndetse n'abantu batatu biteguye kwakira uwo muntu.

Inyubako hejuru ifitemo igisenge cy'umweru iragaragara ko hejuru harimo akuma gafata amashusho ndetse imiryango yayo yose irafunze.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, hejuru hasize irangi ry'umweru, cyanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Rwerere, ndetse hari n'ubusitani buteyemo ibiti, hirya y'ikigo nderabuzima hino hasi yaho harimo umuntu uri gutambuka munsi y'igiti.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga. Harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira hejuru w'ubururu. Ari hejuru y'igitanda. Ku gitanda haryamyemo umurwayi arimo aramufasha kuzinga supernet. Ikigaragara ko twakagombye kuba turara mu nzitiramibu mu buryo bwo kwirinda malariya.

Hari ishusho igaragaramo abaganga icumi, ibumoso bwanjye rigaragara bataraatu, iburyo haragaragara bane. Bari mu cyumba cy'imiti kigaragaramo imiti itandukanye ndetse harimo babiri bahagaze bari mu cyerekezo, basa nk'abari kugenda.

Inyubako ifite ibyapa ndanga, biteretse hanze, byerekana ahabujijwe kunyurwa, n'ahagomba kunyurwa. mo imbere harimo etajeri isa nka kake, bigaragara ko mo imbere, harimo umuganga wambaye ingofero y'ubururu, n'itaburiya y'amaboko magufiya. Iyo nyubako ifite parafo mo imbere, y'umweru.

Iyi nyubako ifite igisenge cy'umweru ndetse irafunze. Ni inyubako y'ubushakashatsi ikorerwamo kuvumbura ndetse n'imbere harimo intebe ziticayemo abantu ariko iranafunze yose.

Iyi nyubako igizwe n'ubusitani, ndetse imbere y'inyubako imwe biragaragara ko hari kimwe mu bubiko ishyirwamo imyanda yanduye gifite ibara ry'ubururu muryo bwo kunyatanyangiza imiti aho tubonye hose, mu busitani mbere yaho hari ibiti bizwi nk'ingazi bizana umuyaga ndetse mu busitani harimo n'inbe zo kuruhukiramo.

Iyi nyubako ni iyo kwa muganga. Hari icyapa ndanga, cyanditseho ko ari mu cyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana. Icyo cyapa ni umweru, amagambo yanditseho, yandikishije inyuguti z'ubururu, ndetse hasi hariho n'iz'icyatsi. Imbere yaho, hapatse imodoka; mw'imbere abarimo bambaye imyenda y'ubururu.

Iyi ni inyubako iparitse ya kaki, ikoti ry'umukara inyuma ye hari abagabo batatu, umwe yambaye ikoti'umukara ugarutse hihino y'imodoka, hari ubusitani buteye mu umukindo ihene'umukindo haze abagabo bane ku rubaraza.

Iki ni icyumba kirimo abaganga batatu, harimo igitsina gabo kimwe, abandi babiri ni igitsina gore. Babiri bagaragara b'igitsina gore mu maso, bambaye ga z'ubururu ndetse hari n'undi umwe ugaragara urutugu rw'ibumoso gusa, ariko isura ntigaragara. Harimo babiri baseka n'umugabo ureba imbere

Aha hari inyubako y'umweru ifite urubaraza ruri kwakaho amatara, imbere yaho hari ubusitani ndetse hari n'igiti kiri hagati mu busitani n'icyapa ndanga cyandikishijeho amabara y'umutuku n'ay'umuhondo ndetse n'ubururu n'icyatsi.

Iyi ni inyubako igeretse kabiri, iriho ibyapa ndanga hejuru ndetse uruzitiro rwayo rukozwe muri tibe. Hari ibyapa bitatu biteretse imbere, ahantu hameze nka parikingi.

Hari ishusho igaragaraho ivuriro ririmo ibitanda, ndetse na za mudasobwa zifasha mu buvuzi, ibitanda biriho amashuka y'umweru, ndetse n'ibitanda birimo ibara ry'ubururu ibyuma bya arumeniyumu.

Aha hari ishusho igaragaza umumama w'umukobwa wambaye ingofero y'umweru, akaba yambaye n'itaburiya y'icyatsi, yambaye na ga z'umweru ari kwita ku mwana muto ugaragara nk'uwavutse uwo munsi ndetse afite ubwuzu ntibanamusekera.

Aha ni mu cyumba kigaragara nk'ahari icy' ubuvuzi, harimo ibyuma bikoreshwa mu kuvura za mudasobwa. Iyo nyubako hasi hari isuku harimo amakaro. Ndetse ku gikuta harimo n'isaha.

Iyi shusho iragaragaraho abagabo batatu bari imbere umwe muri bo wambaye ikote ahagaze imbere y'abantu ari guha ikiganiro. Iburyo bwe hari undi muntu umwe wambaye ikote, hagati ye hari undi muntu wambaye ishati y'umweru, aba bantu harimo bamwe bitandiye b'abamama bitandiye mu mutwe.

Iyi ni inyubako yubakishije amabuye, ifite urubaraza ruyizengurutse, harimo haragendamo abagabo babiri bagenda baganira, inyuma y'iyo nzu hari ubusitani butoshye.

Iyi shusho iratwereka umugabo uri kureba imbere wambaye isengeri ifite ibara ry'ivu ukuboko kwe kw'ibumoso yambaye isaha y'umukara, yifashe mu gice cy'inyuma mu mutwe, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Iyi s husho iragaragara

Aha hari akuma kifashishwa mumyitozongororamubiri, hagati yako hari bimwe mu bikomoka mu bimera imboga, imbuto, ndetse hateretsemo n'agakombe gashobora gushyirwamo umutobe gakomotse ku ibyo bimera. Bigaragara ko nyuma ya siporo twagombye kuba dushaka imboga ndetse n'imbuto tugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Iyi ni ishusho y'umweru ishushanyijeho ikiganza, icyo kiganza kirerekana imibare kugera kuri cumi na rimwe ndetse iyo mibare igiye iri ahantu hatandukanye mu turemangingo tw'ibiganza.

Byagaragaraho imbuto, nk'imboga zikomoka ku bimera, isahani yimbere iriho inyama, amagi, indi iri iruhande rwayo iriho umuneke n'inkeri, ndetse indi yo hakurya iriho pavuro n'andi mashu mu ikinyarwanda. Iruhande rwayo hari ibyuma bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, ndetse n'isume iri hirya n'amazi, byose bigaragara nk'ibitanga imbaraga umuntu avuye muri siporo.

Aha hagaragara abagabo babiri bari mu mikino yo gukirana. Umwe yambaye imyenda y'ubururu undi yambaye imyenda y'umweru, bari mu ruziga rukikijwe n'ibara ry'umukara aho bari mu ibara y'umuhondo ari mu mabara y'umweru. Hasi yandikishijwe amabara y'umuhondo y'icyatsi.

Ishusho iratugaragariza umugabo wambaye ikabutura y'umukara, hejuru yambaye umupira uciye amaboko w'icyatsi. Ku kaboko ke hariho icyuma cy'itangamakuru cyifashishwa mu guhuhamagara. ari mu cyerekezo cyo kwiruka nku mutu uri muri siporo.

Aha haragaragaraho agatanda kifashishwa mu guterura umurwayi, gafite ibara ry'umuhondo, kariho imishumi itatu y'umukara.

Hari ishusho y'igitsina gore, kiri gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kwigorora, ukuguru afashe ni ukw'ibumoso, agufatishije ukuboko kw'ibumoso, akaboko k'iburyo gafashe imbere yiwe, yambaye hejuru umwenda uciye amaboko ndetse ari kureba imbere ye.

Ishusho iragaragaza umuntu w'igitsina gore. Afite umwenda w'isuku ku rutugu ari kunywa amazi. Ndetse bigaragara ko nyuma ya siporo twakanyweye amazi mu buryo kugarura imbaraga twatakaje ndetse n'amazi yadusohotsemo igihe tuba turi kuribira ibyuya.

Iyi shusho iragaragaraho umuntu w'igitsina gore, uri kwikoresha imyitozo ngororamubiri. Aho ari kureba muri mudasobwa, akigana ibyo bari gukora. Iruhande rwe hari agacupa k'umweru.

Iyi shusho iragaragaza abantu batatu, babiri bambaye imyenda iri ikirango cy'abatabazi itukura, mo imbere bambayemo imipira yimyeru, uwo bafashe biragaragara ko yagize ikibazo cyo kuvunika abafashe ku ntugu, nawe yambaye ipantaro y'ubururu hejuru umupira w'umuhondo urimo umukara wanditse umubare gatatu.

Iyi shusho, iragaragaza umuganga wambaye imyenda y'ubururu, ndetse n'agapfukamunwa. N'umubyeyi wazanye umwana kwa muganga, uri kumurikwa mu maso n'icyuma gipima. Ndetse uwo mubyeyi nawe yambaye agapfukamunwa. uzankwe kwa muganga ni umwana uri kwitabwaho. Muganga amufashe mu mutwe, umubyeyi we amufashe mu irugo.

Umugabo w'igitsina gabo uri kunywa amazi. Afite ikijyanye n'icyohereza amajwi mu buryo bw'umugozi bivuye muri terefone yambaye mu matwi yambaye umupira w'iwe.

Iyi ni inkoni y'umweru, hejuru aho bafata ni umukara hasi ifite umuzenguruko ine yibinyabitende yifashishwa n'abafite ubumuga.

Iki ni icyumba cyakirirwamo abarwayi, harimo igitanda ndetse n'imashini zabigenewe, zo gufasha abarwayi. Harimo n'amatara yo hejuru abiri ku bitanda amurika ku murwayi.

Aha hari umuganga wambaye umwenda uciye amaboko inyuma w'ubururu, mo imbere yambayemo undi mupira ufite ibara rijya gusa nk'iry'inkkeri ndetse afashe umwana mu mutwe arimo aramumurika mu gice cy'amaso.

Aha ni mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ahagaragaramo ibyuma byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Ndetse imbere hari icyapa ndanga, cyanditse ko hakorerwa siporo.

Aha hari inkoni ebyiri z'umukara n'umweru, zifite imishumi y'umukara, zifashishwa n'abafite ubumuga ku kuguru.

Ishusho iragaragaramo umuntu uri kunywa amazi, ni icupa ritwarwamo amazi mu buryo bwo kuyitwaza. Icupa yarifatishije ukuboko kw'ibumoso, ndetse ari kunywa nk'umuntu ufite inyota cyane, ari kunywa amazi. Icyigaragara mu icupa harimo amazi, ariko arararamye cyane nk'umuntu ufite inyota.

Iyi shusho iratugaragariza umurwayi uri gufashwa n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu. Umurwayi yambaye hejuru isengeri y'umweru hasi yambaye ikabutura. Ari mu kuma gafasha abarwayi kuba batera intambwe kugira ngo imitsi y'amaguru igorororoke abashe kuba yatambuka.

Ishusho iragaragaraho ibikoresho byifashishwa muri siporo turahabona inkweto zizwi nk,izikoreshwa muri siporo ndetse n'agapimo kifashishwa humva ibyiyumviro hariho n'isahani iriho imbuto zitandukanye zongera imbaraga abantu bavuye muri siporo.

Iyi shusho yiganjemo amacupa y'umweru amwe afite ibara ry'icyatsi harimo n'ifite ibara ry'umuhondo, ndetse haririmo n'irifite ibara ry'umweru ariko ririho igikakarubamba. Bigaragara ko ari imiti ikoreshwa mubuvuzi gakondo, ikorwa mu bimera.

Aha hateretse amacupa ane atatu afite ibara ry'umweru irindi rimwe rifite ibara ry'umuhondo, yose ashushanyijeho igikakarubamba hagaragara ko mo imbere imiti irimo ikozwe mu kimera cy'igikakarubamba.

Aha hari icupa ry'umweru ryanditse mu magambo mu ibara ryijya gusa nk'umuhondo ndetse riteretse hafi y'ibyo tuzi nk'ibinyagu, iruhande rw'ibinyagu hari amaronji akasemo kabiri urubuto rw'irogi rukasemo kabiri.

Ifoto iragaragaraho umuntu ufite agasekuru uri gusekura imiti by'ibyatsi, iruhande rwe hari imifuka ipakiyemo imiti itandukanye ituruka ku bimera.

Iyi shusho iragaragaza umuganga, hejuru mu mutwe yambaye akanozasuku, mu maso naho yambaye agapfukamunwa. Yambaye itaburiya y'umweru, mo imbere irimo ishati. Yapfunduye umuti ari kureba mo imbere. Imbere ye hari imiti iri mu macupa y'umukara, ndetse n'indi ifunze mumakarito atukura afite ibara ry'umuhondo mu rubavu.

Aha hari ishusho igaragaza igiti gifite uruti rujya gusa umuhondo amababi yacyo ni icyatsi, nacyo kigaragaza amababi yacyo yuko hashobora kuvamo imiti aturuka ku bimera byifashishwa mu kuvura.

Aha hari icupa ricuritse ry'umweru ndetse ririho amabara y'icyatsi, hashushanyijeho igikakarubamba, bivuze ko mo imbere ibikoreshwa ari igikakarubamba, ku ruhande rwaho gateretse ku ishusho, rifite amabara y'icyatsi.

Aha hari agasekuru gafite ibara ry'umukara n'andi mabara y'umweru harimo agahini ndetse kifashishwa mu gusekura iruhande rw'ako gasekuru hari ibimera by'icyatsi bigaragara ko ariho basekurira ibibabi bikavamo imiti gakondo.

Iyi shusho iriho igiti gifite amashami afite amababi y'icyatsi ndetse imbere y'icyo giti haragaragara igicu cyiganjemo umweru n'ubururu. Ibyo biti bigira amababi agaragara y'uko ashobora kuba avamo imiti gakondo.

Aha hari amacupa y'umweru ariho ibibabi by'ibikakarubamba, ndetse no hejuru hari iry'umuhondo ririho igikarubamba, hino hari iry'umukara naryo ririho ibara ry'umuhondo, no hasi hari irindi ririmo ibara ry'umuhondo n'umweru bigaragara ko ibi bibabi biriho; ari ibibabi biva mu bimera bikorwamo imiti gakondo.

Iragaragaza icupa ry'umweru ryandikishijeho amagambo y'umweru mu mabara y'ubururu. Ndetse iruhande rw'iryo cupa hariho igikakarubamba gikasemo ibice bitatu bigiye bigerekeranye.

Iri cupa rifite amabara umutuku, hejuru y'umutuku hariho igikakarubamba, hagati harimo amabara, amagambo yandikishije amabara atukura, ku mutwe waho na ho ni umutuku. Bigaragara ko harimo umuti w'igikakarubamba.

Uyu ni umurima uteyemo inanasi ku mirongo ndetse imbere yaho hari abantu barangariye imashini iri muri uwo murima, harimo abamba bane bambaye imipira y'umweru, abandi biganjemo bambaye imipira ifite umuhundo mu mugongo, ni abantu baje gutaha uyu murima no kumenya ibikorerwamo.